Kuhira ibigori ukoresheje umuti wabugenewe, ni ingenzi kubera yuko iyo nkongwa igeze mu bigori irabyangizariza, bigatuma umusaruro wateganyaga kuzabona utawubonye.

Ni byiza ko dushyira imiti mu ndabo kugira ngo na zo zikomeze zigire ubuzima bwiza kuko zitunganywamo ibintu byinshi harimo nko kuba zanakorwamo imiti ivura abarwayi kwa muganga.

Burya guhinga ntabwo bikenera kuhirwa gusa ahubwo umuntu agomba gucishamo akajya anatera imiti ku bihingwa bye kugira ngo abirinde indwara zabyangiza.

Umwuga wo gukora ibikoresho bivuye mu ibumba, watangiye kera ndetse n'ubu hari abawukomeje kuko ubu haracyariho ibikoresho bikozwe mu ibumba kandi ababikoraga n'ubu baracyahari.

Iyo ukoze umushinga wawe neza ahantu hegereye amazi cyane cyane ubworozi bw'amafi ndetse n'andi matungo wakororera ku mazi ntagire ikibazo, urawukora kandi ukubyarira inyungu.

Umuntu wese wize iby'uburobyi agomba kubikora kinyamwuga, akurikiza amategeko yose abigenga aho kugira ngo wirohe muri ibi utarabyize wabireka kuko nyuma wazicuza icyo wabikoreye.

Mu gihe ufashe umwanzuro wo gukora ubworozi bw'amafi ni byiza ko ubusura kenshi ndetse ibisabwa byose ukaba wabikora kugira ngo ubwo bworozi bugende neza nk'uko wari warabiteganyije.

Iyo wakoze ubworozi bw'amafi neza utangazwa n'umusaruro ukuyemo, nyamara ibingibi ntabwo bikorwa n'abantu benshi kubera ko bumva ko atari ikintu cyakunguka mu gihe gitoya.

None ku muntu wakoze ubworozi bw'amafi si byiza ko ayaroba igihe icyo ari cyo cyose akiri mato kubera ko bishobora gutuma umusaruro we ukendera burundu.

Iyo abagabo bahuriye hamwe bakajya inama bashobora gukora umushinga ufatika, cyane cyane bakunze gutekereza uw'ubworozi bw'amafi kubera yuko amafi ni kimwe mu bintu bizana amafaranga menshi.

Abantu bakoze umushinga w'amafi, bakayororera mu mazi, iyo bagiye gusarura umusaruro wabo bagomba kugenda ari benshi kandi bafite ibikoresho byabugenewe mu kuyasarura.

Ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bworozi bugomba gutangizwa n'umuntu wabihaye umurongo kandi akaba yarabitekerejeho neza ku buryo atahomba, iyo abikoze uko nta kabuza atera imbere.

Abagabo bakunze kwicara hamwe bagatekereza umushinga ukomeye wababyarira inyungu mu gihe gito ariko uwo bakunze guhuriraho ni uw'ubworozi bw'amafi kubera ko bayakwirakwiza ahantu henshi bakabona amafaranga.

Abantu bose ni byiza ko bahabwa amahugurwa ku bigendanye n'ubuhinzi bw'umuceri, kubera yuko igihugu cyacu nacyo gitera imbere bitewe n'abahinzi b'umuceri, kandi kikawugurisha no mu mahanga.

Mu gihe cyo kwera kw'icyayi usanga abaturage buzuye mu bishanga barimo barasarura kubera yuko iyo barimo bakora ibi bikorwa baba bazi neza ko bagiye kubona amafaranga.

Abahinzi b'icyayi bazi n'uburyo bwiza bwo kuba bagisoroma kubera ko abenshi ukunze gusanga batwara inkangara ndetse bakaba baziziritse mu mutwe kugira ngo bakoreshe amaboko yombi barimo barasoroma.

Iyo abahinzi b'icyayi bamaze kucyeza, barabyuka kare n'ibitebo byabo bakabizirika ku mutwe, ubundi bakajya gusarura umusaruro bakoreye igihe kirekire.

Iyo abaturage bamaze kweza ibihingwa byabo by'ibyayi, babisarura mu buryo bwizewe kandi bwiza, hanyuma bakabigurisha mu nganda na zo zikabitunganyamo icyayi cyiza.

Mu gihe umuhinzi agiye mu murima we ni byiza ko ajyana imyenda yabugenewe kugira ngo yirinde ibintu bigiye bitandukanye byashobora kumugirira nabi.

Si abagore gusa bamenye ibanga ryo gutera icyayi, kubera ko n'abagabo babyinjiyemo cyane cyane bamenya ko bigira amafaranga menshi, ariko abagore usanga aribo babishyiramo imbaraga kenshi.

Iyo umubyeyi yahinze icyayi ke, kikera neza, iyo agiye kugisoroma, aba yishimye cyane kubera ko aba azi ko nyuma yo kugisoroma hari ibindi ari bukibyazemo birimo amafaranga akemura ibibazo.

Umuhinzi wamaze kumenya agaciro k'ikawa, azifata neza, akazisasira ndetse akazikurikirana kugeza zikuze kubera yuko ikawa iri mu bihingwa bigira amafaranga menshi.

Umunyarwanda aho ava akagera iyo amenya ibanga ryo guhinga ikawa ashobora gutera imbere mu buryo bwihuse kubera ko ikawa ari igihingwa gitanga amafaranga menshi, kandi kikanagurishwa mu mahanga.

Mu rwanda tugira ibihingwa ngandurarugo bibiri by'ingenzi bikunze koherezwa mu mahanga, ari byo ikawa ndetse n'icyayi kubera ko igihugu kibyohereza kenshi kandi cyinjiza amafaranga menshi abiturutsemo.

Buri muti uba ufite indwara uvura cyane cyane imiti y'amatungo iba iri mu bicupa binini, si byiza ko tuyishyira aho ari ho hose hagera abana, kubera ko bashobora gukina nayo bakayimena cyangwa bakaba banayinywa.

Inka burya zidufatira runini mu iterambere ry'umuryango kuko usanga Leta yaratangiye ibikorwa byo gutanga inka ku batazifite kubera ko bazi ko inka ifashe neza, ikugirira akamaro.

Biba byiza ko iyo imiti y'amatungo ishyizwe mu dukarito dushushanyijeho iryo tungo bituma buri wese abasha kuyimenya kandi akaba yakirinda kuyangiza harimo nko kuba yayishyira hafi y'abana.

Biba byiza ko aya macupa avamo imiti y'amatungo, agombwa kujya ashushanywaho ayo matungo kugira ngo n'ufashe iryo cupa abashe kumenya icyo rikora muri rusange.

Imiti y'amatungo ntigomba kubikwa aho ari ho hose kubera yuko mu ngo zacu tuba dufite abana batoya bashobora kuyikinisha bakaba banayinywa bikaba byatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga.

Kugira ngo imiti igumane ubudahangarwa bwayo igomba kubikwa neza kandi ahantu hatagerau uwo ari we wese wayangiza kugira ngo bazayikoreshe ikimeze neza.

Iyo umuceri umaze kwera barawusarura barangiza bakawuhura kugira ngo bakuremo uwo bari bujyane ku nganda utunganywe bityo n'abandi baturage babashe kuba bawiriraho.

Mu Karere ka Nyagatare na bo bagira ikusanyirizo ry'amata aho abakamyi bayajyanayo buri munsi agatunganywa agashyikirizwa mu baturage hose ku buryo buboroheye.

Si byiza ko umuhinzi atuma umurima we urara ni ukuvuga uzamo ikigunda cyinshi, kubera y'uko ikigunda nacyo cyica imyaka ariko iyo waigkoreye neza ukagikuramo ikura yisanzuye.

Iyo ugeze muri pariki y'Igihugu niho honyine ushobora gusanga inyamaswa yitwa imparage, kubera y'uko si ahantu hose uzayisanga nko mu midugudu yacu, kuko aho ngaho nahaba amatungo gusa harimo inka n'ihene ndetse n'ayandi.

Iyo umuturage avuye mu murima we, akunze guhita ajya kwishakira inkwi zo gutekesha kugira ngo nagerayo bimworohere guhita yishyiriraho ibyo kurya, agahita abiteka mu mwanya muto cyane akirira.

Ni byiza gusakara cyangwa gutwikira imyaka yacu kugira ngo irindwe izuba ndetse ikajya inuhirwa cyane ikajya inasurwa kenshi kugira ngo urebe imikurire yayo.

Ubuhinzi bw'ibigori iyo utabwitayeho neza ushobora guhomba amafaranga yose wabishoyemo kubera y'uko byagaragaye ko ubuhinzi bwose bwitaweho bubyara umusaruro.

Inka nziza zisa neza ubona kozirya neza, zikunze kugaragara mu karere ka Nyagatare kubera ko ariho usanga umuntu yifitiye urwuri runini kandi rurimo ubwatsi.

Uwamenye ibanga ryo guhinga cyangwa agahumbika imyaka ye agomba kuyikurikirana kuva akihumbika ndetse kugeza ikiri mitoya igikura kugeza ayisaruye.

Mbere y'uko umuntu atera ibiti abanza kubihunika mu bihoho ubundi byamara kungana nk'uko yifuza akabikuramo akabijyana ahabugenewe akaba ariho abitera.

Abanyarwanda kuva na kera bahoze bikundira kurya isombe, ubu bwo iyo bayibonye uko yaba igura kose barayigura kuko burya isombe iri munsi y'inyama ho gato mu kuryoha.

Ubuhinzi bwo mu byaro nibwo usanga bavanga imyaka igiye itandukanye ugasanga yafashe umurima awucamo agace gato ahinzemo amasaka, akandi ibigori, akandi ibitoki nyamara kuvanga imyaka nk'uku usanga itera nkuko bikwiriye.

Mbere yuko turya tugomba kubanza gufata imbuto zigiye zitandukanye cyangwa twamara gufungura, tukazirenzaho ku byo tumaze gufungura kugira ngo dutume umubiri wacu ukomeza gukora neza.

Si ahantu hose twemerewe kuba twahinga ibihingwa byacu kubera ko ni byiza ko ubutaka bubanza gupimwa, hanyuma hakarebwa niba aho hantu, hafite ubushobozi bwo kuba hahingwa, ubundi hagahingwa kugira ngo imyaka izasarurwe yeze neza.

Mu gihe umenya ibanga ryo gutera ibigori ku murongo, si byiza kubicucikanya na none kubera yuko bimwe birapfa ugasarura bike. Ni byiza ko ikigori kisanzura gifite ubuhumekero.

Nyamuneka nubona umusaruro wabaye mwinshi, wahagije urugo rwawe, ujye wibuka ko gusagurira amasoko na byo ari byiza kandi bishishikarizwa ku buhinzi wahinze neza.

Byakunze kumenyekana ko amaronji ari zimwe mu mbuto zifasha umuntu cyane cyane iyo agiye kurya, akazirya mbere cyangwa akayarya nyuma kugira ngo bifatwe nk'imbuto zubaka umubiri we zikanawurinda.

Si byiza ko dutera imyaka cyangwa imbuto aho ari ho hose twiboneye, kubera ko hari ubutaka buba budakorana na zo bigatuma tuziterera ubusa kandi ntizizatange umusaruro nkuwo twari tuzitezemo.

Iyo uhagaze ku musozi ukareba mu gishanga hasi ubona hari ikibaya kimeze neza kandi gisa neza cyane cyane iyo gihinzemo imyaka nk'umuceri kuko umuceri ugira isura nziza iyo ugikura.

Si byiza kwinjira mu mashyamba y'inzitane kubera yuko tuba tutazi ibiyarimo, ni gake uzasanga ishyamba ribuyemo inyamaswa zitandukanye kubera ko ari ho zikundira kujya.

Gutera ibiti byinshi birinda isuri kubera ko baca umugani mu kinyarwanda ngo "isuri isambira byinshi igasoza bike". Ibi bishatse kuvuga ko uramutse udateye ibiti imyaka yacu ishobora gutwarwa n'isuri.

Burya inka z'Inyambo ntabwo zigaragara mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Nyanza gusa no mu Karere ka Nyagatare zihari ku bwinshi kandi niba wumva ko nkubeshye uzaze wisurire aka karere urebe.

Umuco wo gufashanya aba ari mwiza kubera yuko ikintu umuntu yagakoze wenyine mu masaha atanu, iyo bamufashije kibasha gukorwa mu gihe gito cyane kuruta icyo yari kubikoramo.

Bimwe mu byiza nyaburanga bikurura abakerarugendo benshi, harimo nk'amazi atembera mu ishyamba hagati ndetse amanuka hejuru akikubitamo hasi, biba biryoheye amaso kubireba.

Niba abantu biga ibigendanye n'amashyamba, bagomba kujya batemberezwamo, bakigishwa buri kimwe kigendanye na byo kugira ngo bazabashe no kubisobanurira abandi bazigisha mu myaka iba iri imbere.

Si byiza ko abaturage dutura mu manegeka kubera ko tubishishikarizwa kenshi ko iyo tuhatuye bishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga, harimo nko kuba twatwarwa n'imyuzure y'amazi.

Iyo umuntu yahinze imbuto yajya mu murima we akabona zareze ndetse zaranahishiye biramushimisha kuko aba ateganya ko agiye kubona amafaranga, yo gukemura ibibazo yari afite mu muryango.

Ubuhinzi bw'inanasi na bwo bugira amafaranga menshi. Umuntu wabuhinze neza akubwira ko ari ubuhinzi bworoshye kubukora ariko na none utabanje gufata amasomo yabwo ushobora kubihinga nabi bigapfa.

Ubuhinzi bw'amatunda byagaragaye ko ari bumwe mu bugira amafaranga menshi bityo rero abamenye iryo banga babuhinga ku bwinshi kugira ngo ayo mafaranga na bo azabikwe mu mifuka yabo.

Iyo umuntu amaze kumenya ibanga ry'akarima k'igikoni, agomba kugafata neza, byaba byiza agateramo imbuto, akaba yateramo imboga kugira ngo bimufashe igihe azaba abifunguye.

Abahinzi babigenewe ni ukubuga ba goronome, bagomba kwita ku buhinzi ndetse bakabushishikariza n'abaturage bayoboye ndetse bagafata n'amafoto kugira ngo bayasangize n'abandi bayabone babe bakora uwo mwuga.

Kuhira ukoresheje umupira uvoma amazi menshi n'imoteri, birakorohereza cyane kubera yuko bitagusaba imbaraga nkuko wakoresha ibisanzwe ukoresheje intoki zawe.

Iyo umuntu abonye atazabona ubushobozi bwo kuba yakoresha imoteri yuhira imyaka ye, agomba kwifatira rozwari akayuhira ariko ntashobora kubikora igihe gitoya.

Buri muhinzi agira uburyo bwe bwihariye bwo kuhira imyaka ye, hari abakoresha uburyo butabahenze ariko bikabatinza kugira ngo bazuhire iyo myaka yose bayisoze, kuruta ukoresha uburyo bumuhenze ariko akabikora mu gihe gito.

Nawe nugirirwa ubuntu bwo kubona uburyo bwiza bwo kuhira imyaka ni byiza ko uzabikora neza kandi wishimye kugira ngo iyo myaka uyirinde izuba kuko iyo ibonye imvura ibasha kwera.

Kuhira ukoresheje akamoteri bituma wuhira ahantu hanini cyane kubera yuko ukoresheje intoki zawe wuhira ntabwo ushobora kuhira ahantu hanini nk'uko wabikora ukoresheje imoteri.

N'abagore bafashe iya mbere mu kuhira imyaka yabo kubera yuko bazi, umusaruro mwiza ko utegurwa kandi ugakorerwa, atari ibintu byo kujya aho ngo wicare ngo bizizana.

Ibintu byose bigerwaho habayeho gufatanya. Iyo wigize ko byose ubishoboye bishobora gutuma utagera ku musaruro kubera ko bavuga ngo nta mugabo wigira.

Abaturage bamenye ibanga ryo gutera ku murongo kubera ko ibi ngibi bituma imyaka ikura neza cyane ko iyo bacukuye imyobo igendeye ku ku murongo bashyiramo n'ifumbire kugira ngo iyo myaka ikure vuba kandi neza.

Ubuhinzi bwose iyo hatse izuba ryinshi cyane cyane nk'iryaka inaha, bugomba gukenera ko buzuhirwa igihe runaka kubera yuko iyo bubuze amazi bishobora kuma bitewe n'izuba riba mu Burasirazuba.

Usanga ahantu hari ibiyaga hagomba kuba harinzwe ndetse umutekano waho ukanakazwa, kubera ko hari abantu bagira ibibazo bitandukanye ubuzima bakumva barabuhaze bakumva bamanuka bakajya kwiyahurira muri ayo mazi.

Buri muhinzi agira uburyo bwe ndetse n'ibanga rye akoresha mu kuhira imyaka ye kubera yuko buri wese uko yabikora uwashyizemo imbaraga nyinshi ni we ubona umusaruro yari akwiriye.

Mu ishyamba ry'inzitane si byiza ko turijyamo kubera ko haba hari ibintu byinshi byakangiza ubuzima bwacu, nyamara hari abarijyamo bagira ngo bage kureba uko rimeze imbere kandi atari byiza kandi bitemewe.

Iyo uhagaze hakurya y'umusozi ukitegereza undi, uba ubona wegereye ijuru kandi ukaba ubona uramutse ugeze aho usohoreza, wahita urikoraho, nyamara si ko biba bimeze uhageze, ushobora gusanga bikimeze nk'uko aho wari uri hameze.

Nyamuneka tubwirwa na Leta kenshi kudatura mu manegeka ariko ntitubyumve. Nyamara iyo ibyo bibazo bimaze kutubaho, inzu zacu zigatembanywa n'amazi ni bwo twibuka ko twabibwiwe.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda kigira ibyiza nyaburanga abakerarugendo ndetse n'abanyarwanda muri rusange baza gusura umunsi ku munsi bityo igihugu kikinjiza amafaranga.

Si byiza guhinga mu misozi ihanamye kubera ko haba hari ibyago byinshi ko umwuzure ushobora kuzaza ugatembana imyaka yacu nyamara tuba dufite ahantu habugeneye ho kuba twahinga.

Ni byiza ko ubanza kwita ku nyubako igihe ugiye korora inkoko, ukazishyiriramo buri kimwe cyose gikenewe kugira ngo zibeho ubuzima bwiza harimo nko kuba zinywa n'amazi ndetse n'ibyo kurya bihagije byazo.

Abana b'i Nyagatare twamenyereye kuba twinywera amata ariko tugakunda no kuyanywa ku zo twiragiriye kubera ko nta ko bisa kuragira amatungo anatanga umukamo uhagije.

Umuco wo gutera amaherena ku matwi y'inka n'ubu uracyahari. Abantu barazifata bakazishyira mu kantu gatoya zitabasha kwihindukiza kubera yuko bazi ko kuyitera ihena birya cyane, bikaba ubwo buryo bwiza bwo kubikora.

Iyo woroye amatungo magufi bisaba ko uyubakira udukoresho azajya anyweramo amazi kandi agasangirira hamwe kubera yuko uwo mushinga wawe utera imbere iyo wawize neza bigatuma ubona icyo ushaka harimo nk'amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi si ikintu cyo gukinishwa ukagikora uko wiboneye ahubwo ugomba kubiha umurongo, ukabitekerezaho neza, mbere yuko utangiza uwo mushinga kuko ni umushinga ubyara inyungu cyane.

Nyuma y'uko leta y'u Rwanda iciye umuco wo kuragira inka mu gasozi, buri muturage yarajijutse amenya ko kwiyubakira ikiraro no kugaburira inka mu kiraro ari byo by'ingenzi bituma yita ku nka ye neza.

Birakibazwa neza aho itandukaniro ry'ubworozi bwa ndendo n'inkoko bitandukaniye, ndetse wongeyeho imbata kubera yuko usanga abaturage benshi biyororera inkoko, aho korora imbata kubera ko bumva ko inkoko ari zo zororoka vuba.

Mbere yuko utekereza kuba wakorora, ugomba kubanza kubaka ibiraro uzashyiramo ayo matungo kubera yuko kororera mu gasozi byamaze gucibwa nta muntu ukibikora.

Buri muntu wese aho ava akagera cyane cyane uworoye, akunda ubworozi bw'inyambo kubera ko inyambo ziba zisa neza, ubona zinitonda kandi zigatanga umusaruro.

Ni byiza ko wicara ndetse wanakenera inama za bagenzi bawe bakaziguha ariko ntiwihutire guhita utangiza umushinga wo korora inkoko mu buryo wiboneye bwose kuko ni umushinga ugora ariko iyo ukozwe neza uzana inyungu nyinshi.

Izi nkoko cyane cyane iza saso, ni inkoko zihenda cyane kubera ko n'umushwi wayo usanga ugura mu bihumbi bitatu nk'aho ari inkoko nini.

Iyo ugeze i Nyagatare usanga hakorwa ubworozi bw'inka cyane kuruta ahandi hose, kubera yuko baba bafite amafamu manini baragiramo izo nka bityo zikabaho neza zitabuze ubwatsi.

Bikunze kugaragara ko ubworozi bw'amatungo magufi bushyirwamo imbaraga nyinshi cyane kubera ko abamaze kumenya iryo banga bazi ko amatungo nk'inkoko, ihene n'ingurube biri mu matungo abyara amafaranga mu gihe kihuse.

Umuhinzi iyo agiye gutera ibishyimbo ,rabanza akajonjoramo ibizima, maze ibisigaye bitameze neza akabishyira ku ruhande akaba aribyo azifashisha ari guteka, naho ibizima akaba aribyo ajyana mu murima akabitera.

Iyo umusaruro nanone ubaye mwinshi ukabura isoko ugurishwaho, abawuhinze bakubwira ko bahombye ndetse ugasanga bagiye no gucika intege, ku buryo ubutaha batongera kubishyiramo imbaraga.

Iyo abahinzi bagiye gutera, bagomba gutoranya iby'ingenzi ndetse bimeze neza, akaba aribyo bashyira mu murima wabo bakazabyitaho, aho kugira ngo babivange n'ibipfuye bimwe bizapfe ibindi bibe bizima.

Iyo umusaruro wabaye mwinshi urakusanywa, ugashyirwa ahantu hamwe kugira ngo bitegure kuba bawugurisha mu masoko igihe bamaze gukuramo uzabatunga mu ngo zabo.

Iyo ibigori bimaze kwera neza bikumira mu mirima kiba ari igihe cyiza cyo kuba wabisarura, ukabishyira kuri hangali zabugenewe kugira ngo byirinde kuba byahita bimungwa.

Buri mworozi w'inka agira igihe agomba kujyana inka ahabugenewe, zigaterwa inshinge kubera ko kuzikurikirana na byo ari intambwe nziza y'umusaruro wazo.

Iyo inka byayigoye kuba yakiyibyazayo ubwayo, bakoresha ubundi buryo nko kuba bayiga ku nda, bagakuramo umwana ariko ibi ntabwo byakorwa n'uwo ari ariwe wese keretse umuganga w'amatungo gusa.

Ahantu hakunze kugaragara ubworozi cyane, usanga bita kuri buri gahunda itangwa na leta ku buryo amatungo yabo bayitaho neza kuko ni umushinga baba barakoze babitekerejeho.

Inka z'Inyambo zikunze kwitabwaho cyane kubera ko bazi agaciro kazo zitanga umukamo ushimishije ukaba watunga abana ba nyiri ukuzitunga ndetse bagasagurira n'amasoko.

Abantu bakora ubuvuzi bw'amatungo ni ukuvuga babyigiye, bagomba kuba bafite igikoresho babikamo utuntu twabo kugira ngo bigire ubuziranenge mu mibikirwe yabyo.

Nk'umworozi wese agomba kwitabira gahunda zose zireba aborozi, kubera ko hari igihe bashyiraho kuba batera inshiinge inka, cyangwa kuba bazitera amaherena, izo zose agomba kubikurikirana akazimenyera ku gihe.

Si byiza ko inyama z'inka zipfishije tuzirya zitabanje gupimwa na veterineri ngo abanze arebe ko izo nyama zujuje ubuziranenge mbere y'uko tuzirya kuko zakangiza imibiri yacu.

Umuntu wese aho ava akagera iyo yatekereje umushinga wo korora inkoko, agomba kuzitaho kenshi nk'uko bikwiriye kubera ko iyo ubitereye iyo ushobora gusanga nyinshi zarapfuye utabizi.

Kudoda inka igihe zagize ikibazo bazibaze, bijye bikorwa gusa n'abaganga b'amatungo kubera yuko ntabwo wapfa kubaga itungo kuko riboneye kuko rishobora kuba ryanahasiga ubuzima.

Abayobozi bashinzwe kuyobora abantu baje kureba inyamaswa mu ishyamba baba barabyigishijwe kandi bafite ubumenyi bukomeye bwo kuba bamenya imibanire yabo n'inyamaswa kandi bakabana neza.

Urukundo ntabwo ari urw'abantu gusa ahubwo burya n'inyamaswa zigira urukundo hagati yazo ahubwo bigaragara ko zishobora kuba zigira urukundo rurutoa urw'abantu bagirana.

Ugeze mu mashyamba arimo ubwoko bwinshi bw'inyoni utungurwa no kubona, iz'utari usanzwe ubona ndetse ari nabwo bwa mbere uzibonye, nyamara ibi siko bigaragara mu mashyamba yose.

Inyamaswa zo mu gasozi zirimo iz'inkazi ntizikunze kuboneka aho ariho hose kubera y'uko iyo zigeze mu baturage zangiza ubuzima bwabo ndetse n'ibindi bintu muri rusange.

Nubwo inzovu ari inyamaswa nini cyane ntabwo ari zo nyamaswa zitinyitse mu ishyamba kubera yuko umuntu wese azi ko intare ifatwa nk'umwami w'ishyamba.

Mu mashyamba ndetse no mu mapariki, habayo inyamaswa ziteye ubwoba udashobora kwegera uko wiboneye kose kubera yuko zishobora kuba zakugirira nabi kubera ko ziba zitamenyereye abantu.

Inzovu burya nubwo zigaragara nk'inyamaswa nini ndetse zikanganye burya ni inyamahoro ku bantu bazi kubana nazo neza kuko ntishobora kukugirira nabi ari ntacyo wayihemukiyeho.

Ingwe burya nayo ijya inyuzamo ikirarira mu biti kubera yuko ahantu hose yahaba ititaye ku bintu ibyo aribyo byose kubera ko nta nyamaswa n'imwe ijya ipfa kuyikanga.

Nk'uko abantu babana neza mu ngo zabo niko n'inyamaswa zizi kubana neza kandi zidahuje ubwoko, nyamara iyo ugeze muri pariki usanga izi nyamaswa zikunda n'abantu.